Akazu gatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye za sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, hari abaturage benshi bahagaze baje gushaka serivisi zigiye zitandukanye, none umukozi wako ari kugenda abafasha.

Ku nkengero z'imihanda ya kaburimbo hakunze kuba hariho utuyizo tw'abantu batanga serivisi za MTN na airtel, imirongo migari y'itumanaho mu rwanda, aho bagenda baziha abakiriya babagana.

Mu rwego rwo kunoza serivisi zigiye zitandukanye Leta yagiye ishyiraho utuzu abagenzi bakunze kwicaramo bategereje abagenzi, dusaye neza ku buryo umuntu uturimo atakwicwa n'izuba cyangwa n'imvura.

Akazu gakorera sosiyete itanga serivisi z'itumanaho, z'umuyoboro mugari mu Rwanda wa Airtel, aho hari umukozi uyikorera wambaye akajiri, wazamuye amaboko, wafunze ibipfunsi, avuga ngo mutugane tubafashe.

Akazu gatangirwamo serivisi za sosiyete y'itumanaho mu Rwanda MTN, haba harimo umukozi wako ugenda atanga serivisi zigiye zitandukanye, ku bakiriya baje bamugana.

Ku muhanda wa kaburimbo haba hari udutaka ducururizwamo n'abakozi ba sosiyete zitanga serivisi z'imiyoboro y'itumanaho mu Rwanda nka MTN, aho haba harimo abakozi bafasha abakiriya guhabwa serivisi bakeneye.

Umugore wambaye agapira k'ubururu, ingofero y'umweru akaba afite n'imisatsi myinshi, ari kugenda yinjira ahantu bigaragara ko agiye gushaka amafaranga akoresheje ikarita ya visa.

Ku muhanda wa kaburimbo ukunze kuhasanga akazu gakorerwamo n'umukozi ukorera sosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya MTN, aho ugenda hanyuma ukababwira serivise ukeneye bakayibuha.

Akazu gakorerwamo ikigo cya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda itanga serivisi zigiye zitandukanye ya MTN, hari umutaka hanze na wo wa MTN ndetse nta muntu n'umwe uhari.

Umuntu ukorera ikigo gitanga serivise z'itumanaho mu Rwanda MTN, akaba yambaye akajiri kabugenewe ari gufasha umuturage kumuha serivise, bakaba bahagaze munsi y'umutaka usa umuhondo.

Akazu gakorerwamo na sosiyete itanga serivise z'umuyoboro w'itumanaho mu Rwanda izwi nka Airtel, hariho abantu bagera muri bane bahahagaze harimo umugore n'umugabo bari gusuhuzanya ndetse n'undi musore uhagaze hirya.

Abantu benshi bahuriye hamwe harimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bagiye gushaka serivise zigiye zitandukanye, bambaye imyambaro iri mu mabara agiye atandukanye, aho baje kureba uburyo ki bakwiteza imbere ndetse batega n'imodoka.

Abantu benshi bateraniye hamwe bakaba bicaye bari mu nama, bakaba biganjemo abambaye udupira tw'impuzankano turi mu mabara y'ubururu, bakaba bicaye ahantu hari ubusitani buteyemo umucaca mwiza cyane.

Abantu benshi bahuriye hamwe higanjemo ab'igitsina gore ndetse n'igitsina gabo aho bari kugenda baganira bose bambaye udupira dusa ubururu abandi bambaye amakote bigaragara ko hari ikintu runaka bari kuganiraho.

Umugore wambaye umupira w'umweru ndetse n'itaburiya y'umweru, akaba yambaye n'akagofero kajya gusa umweru, afite telefone mu ntoki ahagaze mu nyubako nziza cyane iteye irangi ry'umweru ku bikuta.

Ahantu hari amavu meza cyane bigaragara ko ari mu busisiro runaka, aho hari umuhanda w'ibitaka udakunda kugendwamo n'ibinyabiziga cyane ariko uwo muhanda ukaba ukikijwe n'ibiti.

Abasore babiri bari gupakira ibicuba by'amata, kuri moto bigera kuri batatu kugira ngo babijyane ahantu hanyuma, aya mata bayajyane ku ikusanyirizo bayatunganye, hanyuma agurishwe.

Ubworozi bw'inkoko bukomeje gutera imbere cyane, aho hasigaye hari abantu babigize umwuga wo korora inkoko, aho bagenda baziha ibyo kurya bi bitandukanye, maze nabyo zabirya zikishima zikamererwa neza.

Abantu bagera muri batatu b'igitsina gore ndetse n'umugabo umwe bakaba bicaye mu murima w'inanasi, aho bari kugenda babarura umusaruro wavuyemo kugira ngo babone ko bazabasha gutanga raporo muri koperative.

Abantu bagera muri batatu, aho harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, umugore umwe afite ikayi ari kwandika, undi yicaye ku ruhande, naho umugabo ahagaze areba iby'umugore ari kwandika, buri wese afite agacupa k'amazi imbere ye.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bigaragara ko bari mu gikorwa runaka, bakaba bambaye impuzankano z'ubururu, aho harimo umugabo umwe ufite indangururamajwi mu ntoki ari kugira icyo ababwira na bo bamuteze amatwi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iteye amarangi y'umweru ikaba ifite n'inkingi zigiye zitandukanye, imbere yayo haparitse imodoka y'umukara ndetse hateye n'ibiti bitanga umuyaga n'amahumbezi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bahagaze bari kwifotoza harimo abera ndetse n'abirabura bigaragara ko bari bari mu nama none ikaba irangiye bakaba bagiye gufata ifoto y'urwibutso.

Mu tubari haba harimo intebe nziza cyane ndetse n'amezaza agiye atandukanye, ku buryo umuntu wese ujemo agenda akicara ku meza hanyuma abashinzwe kwakira ababagana bakamubaza icyo ashaka hanyuma bakakimuzanira.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho akaba ari inyubako y'akabari, hatangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zerekeranye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, igihe cyose ubikeneye wahanyarukira bakabiguha hanyuma ukamererwa neza.

Akabare karimo amoko agiye atandukanye y'inzoga, aho umuntu wese uje gushaka ibyo kunywa aza bakamwereka aho yicara, yamara kwicara hakaza umuntu ubishinzwe akamubaza icyo ashaka hanyuma akakimuzanira.

Mu kabari haba harimo intebe nziza cyane zijya gusa ubururu, umweru, icyatsi ndetse n'umuhondo, aho umuntu agenda akicara ku yo ashaka agakikiza ameza hanyuma ababishinzwe bakamuzanira icyo ashaka.

Igare riparitse ku muhanda aho ryegetse ku giti, rikaba ripakiye amakazi agera muri atanu arimo inzoga, akaba ari mu mabara agiye atandukanye, y'umutuku, ubururu ndetse n'umukara.

Muri hoteri ndetse no mu tubari, haba harimo amoko agiye atandukanye y'inzoga ndetse n'ibiribwa, ku buryo iyo uhageze waka icyo ushaka, hanyuma bakakiguha, warangiza ukakinywa uguwe neza kandi unezerewe.

Mu maduka agiye atandukanye haba hari ubwoko bw'ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye, nk'aya mashashi ari aha ngaha ari mu mabara y'umuhondo n'umweru, akaba yanditseho amagambo matoya agaragaza ibiba bikubiyemo.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye by'umwihariko hakaba harimo umuceri, kawunga, isukari ndetse n'ubunyobwa, umucuruzi wabyo akaba afitemo n'akagare k'abana.

Ku maduka agiye atandukanye by'umwihariko amaduka acuruza imyenda haba hariyo ibipupe, ibyo bipupe rero babyambika imyenda bakabirambika hanze noneho umuntu uje kugura imyenda akareba nk'umwenda igipupe cyambaye akaba ari wo aza kugura.

Muri farumasi haba harimo amoko agiye atandukanye y'imiti ndetse haba hari n'umuntu uyicuruza, ku buryo iyo ugiye kuyishaka ugenda ukamubwira indwara urwaye akaguha umuti.

Mu iduka harimo abantu bagiye batandukanye, harimo umusore ndetse n'umugabo, hakazamo kandi n'umukobwa, bigaragara ko bagiye kugura mu iduka imyambaro igiye itandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye aho uyu muhanda ukikijwe n'amazu menshi ndetse ukaba urimo n'ibyapa byinshi bigiye bitandukanye.

Mu maduka agiye atandukanye haba hari n'amaduka acuruza ibijyanye n'imiti y'amatungo ndetse haba harimo uducupa tuba dufite imipfundikizo igiye itandukanye y'umutuku ndetse n'umweru iba irimo imiti y'amatungo.

Mu rusengero hateraniye abantu benshi baje gusenga, higanjemo ab'igitsina gore n'igitsina gabo, bakaba bicaye imbere hari padiri uri kubabwiriza, ababwira ko bagomba gukundana.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho isakaje amabati y'umutuku, ikaba yubakishije amatafari ahiye, iyi nyubako rero akaba ari urusengero, rw'idini ry'Abagatorika.

Abantu benshi bahuriye hamwe, aho bicaye bigaragara ko bari mu nama. Higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bakaba bicaye ahantu, inyuma yaho hatatse mu mabara agiye atandukanye y'umutuku, umweru ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe aho bari mu nama hakaba higanjemo abagore ndetse n'abagabo, aho bose bishimye bamanikiye intoki icyarimwe bigaragaza ko bashobora kuba bari gutora.

Umugabo uhagaze ku ruvugiro yambaye agafukamunwa bigaragara ko ari mu rusengero, akaba ari pasiteri ari kubereka uburyo ki gukoresha banki y'abaturage y'u Rwanda ari ingirakamaro cyane.

Abantu benshi cyane bari mu rusengero, biganjemo ab'igitsina gabo, bakaba bambaye udupfukamunwa, bamwe barahagaze abandi baricaye, bazamuye amaboko bari guha Imana icyubahiro, bati Mana shimwa kubw'imirimo myiza n'ibitangaza ukomeje kudukorera.

Urusengero rwubatse neza, rwubakishije amatafari ahiye. Akaba ari urusengero rwiza cyane rw'idini ry'Abakatolika, aho ruba rufite amayesikariye agiye atandukanye kandi meza.

Abantu bateraniye hamwe, bakaba bari mu nama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore, aho bari kugenda batanga ibitekerezo muri iyi nama, ikaba yabereye muri hoteli kuko bose buri wese bamuhaye amazi.

Inyubako ifite icyumba cyiza cyane kiberamo inama, aho iyi nyubako ari inyubako yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, bigaragara ko ari muri hoteli, iyo muje kuhakorera inama, murahakodesha maze mukahakorera.

Mu mahoteli hakunze kuba hari ibyumba bigiye bitandukanye bifashisha nk'amacumbi y'abantu nk'abantu bahagiye bashaka kurara bakabacumbikira maze bakaryama bakishyura amafaranga runaka maze bakamererwa neza.

Amahoteli agiye atandukanye yo mu Rwanda aba afite ubusitani bwiza cyane buba burimo ibiti birebire bigenda bitanga umuyaga n'amahumbezi ku bantu bahari, aho umuntu ushaka icyo kunywa, agenda akicara munsi y'igiti bakakimuzanira.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe bakaba bari mu nama aho higanjemo ab'igitsina gore aho bari muri hoteli bishimye bigaragara ko bamaze kwambara amakanzu asoza kaminuza bakaba bagiye kwiyakira.

Inyubako ya hotel aho hakunze guteranira abantu benshi cyane, iyo baba baje mu nama, ndetse n'iyo baba baje mu bukwe, aho bakunze gusanga ari ahantu heza cyane bishimira kujya.

Ahantu hubatse neza cyane bigaragara ko ari muri hoteri, hari amarembo ateye amabengeza ku buryo iyo ugezemo imbere unezerwa cyane, hanyuma ugashima serivisi zaho ubutaha ukazagaruka.

Muri hoteli haba hari amarembo akikijwe n'ibiti bigiye bitandukanye ku buryo bitanga umuyaga n'amahumbezi, ku bantu bose baba bari kuhinjira, baje kuhashaka serivisi zigiye zitandukanye cyane cyane iz'umunezero.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse akenyeye n'akantu k'umweru bigaragara ko atanga serivise zigiye zitandukanye zo muri hoteli, haba hari ubusitani bwiza cyane ndetse n'udubingaro twiza cyane mwakwicaramo mukishima.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bigaragara ko ari muri hoteli, haba harimo ibyumba bigiye bitandukanye aho bakunze kuryamishamo abantu baje gusaba amacumbi maze na bo bakishyura amafaranga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho irimo igitanda kiza cyane gifite imisozigo ibiri, aho bacumbikira abantu baje kuharara aha ngaha ni muri hoteli, batanga ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'amacumbi.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bari guhonda ingoma, bigaragara ko ari ahantu muri hoteli hakaba habereyemo ubukwe none itorero rikaba riri kubataramira bakoresheje ingoma n'imirishyo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bigaragara ko ari inyubako ya hoteli, muri hotel rero ni ahantu heza cyane abantu bakunda gusohokera maze bagahabwa ibyo kunywa n'ibyokurya byiza bitandukanye.

Mu mahoteli menshi agiye atandukanye, haba hariho ibibuga byinshi by'imyidagaduro ndetse hakaba hariho n'ubusitani bwiza cyane, iyi hoteli rero urabona ko ifite ubwogero, buri mu mabara y'ubururu.

Muri hoteli hakunze kuba hari amatara yaka mu buryo bw'umwijima ku buryo utapfa kubona umuntu uhari, haba hari kandi n'udutebe twiza abantu baje gushaka serivisi bicaraho hanyuma bakitabwaho bakagubwa neza.

Muri hoteli haba hari pisine nziza cyane abantu bakunda kujya kogeramo cyane cyane nk'abakunzi, aho bagenda bakajya muri pisine bakoga, bakishima bakanezerwa maze bakagira ubuzima bwiza.

Mu mahoteli hakunze kuba harimo intebe nziza cyane zo mu mabara agiye atandukanye ndetse n'ameza, aho abakiriya baza bakicara hanyuma umuntu ubishinzwe akabarebera icyo kunywa bakeneye.

Mu isoko haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa bicururizwamo ariko iri soko ryo rikaba ricururizwamo imboga ndetse n'imbuto, mu bihari hakaba hari kwiganzamo ibitunguru ndetse n'inyanya.

Abantu benshi bateraniye hamwe aho bari mu isoko ricuruza imyenda, hakaba harimo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye aho buri wese ari kugenda acuruza ikintu cyiwe, harimo uwicaye ufite amasutiye n'undi uhagaze ufite imyenda n'abandi.

Ahantu mu cyaro cyangwa mu mujyi uzakunda gusanga ku muhanda hagiye haba hari ameza ateretseho imashini, aho nyiri iyi mashini akunze kudodera ku muhanda umuntu wese umuzaniye ikiraka agahita agikora.

Umutandiko w'ibijumba umwe ni magana abiri. Umuntu wese ubishaka yaza kuri iri soko bakamuha ibijumba, birahendutse ni make, kuko ni mu gihe k'isarura kandi ku ruhande hari indi mifuka ihateretse birimo.

Mu isoko haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa, igihe cyose wumviseshe ushaka igicuruzwa wanyarukira kutoko ugahaha icyo ukeneye ku mafaranga make kuko byose biba bihari.

Mu isoko haba hahuriyemo urujya n'uruza rw'abantu benshi bagiye batandukanye hacururizwamo ibintu byinshi nk'imyambaro, ibyo kurya ndetse n'imbuto nyinshi, aho umuntu wese icyo akeneye ahanyarukira akakibona bitamugoye.

Isoko ryahuriyemo abantu benshi cyane, higanjemo abagabo ndetse n'abagore. Hakaba hacuruzwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ku buryo icyo ukeneye cyose uza ukababwira bakakiguhereza ku mafaranga make.

Imifuka igiye itandukanye aho iri mu mabara atandukanye y'umutuku ndetse n'icyatsi, iyi mifuka rero ikaba irimo umuceri, aho uyu muceri uri kugurishwa ku isoko umuntu uwukeneye akaba yawugura ku giciro cyiza.

Mu isoko ricuruza imyenda, haba harimo amoko agiye atandukanye y'imyambaro, ku buryo igihe cyose wumvise ukeneye umwambaro, wanyarukirayo ukagura ungana n'ubushobozi bwawe, dore ko iba igiye itandukanye mu biciro.

Isoko ricuruza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, aho haba hari amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa ku buryo icyo ushaka cyose ugenda ukakibaza bakakiguha bitewe n'aho ugiye kukibaza.

Muri resitora haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, aho wowe ugenda ukicara ku meza hakaza umuntu ubishinzwe akakubaza icyo ushaka hanyuma akakikuzanira maze akakugaburira.

Abantu benshi cyane bahuriye muri resitora aho buri wese agenda yiyarurira ibyo kurya ashaka kugira ngo aze kunyurwa atagenda avuga ngo bamwaruriye ibyo adakunda ku giti ke.

Ahantu haparitse ibinyabiziga bigiye bitandukanye bya moto, aho hari n'undi uri kuza ahetse umugore kuri moto bigaragara ko ashaka gukata maze akamujyana aho bavuganye, bagerayo umugore akamwishyura amafaranga.

Umuntu uri kugenda mu muhanda w'amabuye ariko uwo muntu akaba atwaye moto, yambaye kasike ndetse ahetse na agakapu mu bitugu ari kugenda gake gake yitonze kugira ngo arebe uko ibintu bimeze.

Umugabo wambaye imyambaro iri mu mabara y'umutuku, akaba afite akantu mu ntoki agiye kujya kuri moto agatwareho kugira ngo ajye kuvura amatungo yagize ikibazo arwaye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'ikinyabiziga kizwi nka moto, aho icyo kinyabiziga gitwaye abantu babiri, uwo muhanda ukaba ukikijwe n'utuyi tw'abanyamaguru ndetse hari n'inyubako nziza cyane z'ubucuruzi hepfo yawo.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugenrwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye twavugamo nka moto ihetse umukobwa aho iyi moto abayicayeho bose bambaye kasike, uyu muhanda kandi ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru.

Umugabo wambaye kasike y'umutuku ndetse n'akajire, akaba afashe telefoni mu ntoki aho ari kwishyura abantu bamaze kumushyirira umuriro muri moto ye kugira ngo abashe gukomeza gutwara.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto, iyo moto ikaba itwawe n'umugabo ahetse umugore ariko akaba ari kugendera mo hagati cyane mu muhanda muri wa muronko ugabanya umuhanda mo kabiri.

Umuhanda ushashemo amapave uri kugendwamo na moto ebyiri ziri guhura aho moto imwe itwaye umugabo wambaye ikote ry'umutuku indi ikaba itwaye umugabo wambaye agapira k'umweru n'undi wambaye ishati y'ubururu.